Abantu batunda ifumbire y'imborera bayijyana mu murima kuyifumbiza imyaka, kugira ngo iyo fumbire y'imborera, izafashe ibihingwa gukura neza, maze bitange umusaruro mwiza uhagije.

Abahinzi bakoresha amapombo mu gutera imiti ibihingwa bya kahu. Ibihingwa kahu abahinzi basarura bakajyana ibitumbwe ku isoko maze bakabona amafaranga ahagije yo kubafasha mu miyindi mirimo itandukanye ya buri munsi.

Ikirundo cy'ibishingwe by'imborera bizifashishwa mu guhinga ibihingwa bitandukanye harimo ibigori, ibirayi, ibishyimbo, amateke, amashaza ndetse n'ibindi bitandukanye. Bizafasha mu kuzamura umusaruro w'ibihingwa bizaba byafumbijwe iyo fumbire.

Icyapa cy'umweru gikoze mu byuma cyanditseho amagambo yandikishije inyuguti z'umuhondo, munsi yacyo hari ibyatsi bifite amabara y'icyatsi kibisi n'avanzemo umuhondo.

Ifumbire mvaruganda ifite ibara ry'umweru irunze mu ibasi, iyi fumbire mvaruganda ikoreshwa mu kongera umusaruro kuko bayitera ku bihingwa maze bigakura neza bityo bigatanga umusaruro uhagije.

Abahinzi bari kugesa ingano, bari gusaruzi inganoni nibarangiza barazitwara bajye kuzanika nizimamara kuma bazazihure zivemo umusaruro bawujyane ku isoko, kandi hirya y'umurima basaruyemo ingano hari igiti kinini cya avoka.

Umurima munini uhinzemo ibigori ku buso bunini, ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye harimo nk'imyumbati, amateke, ibigori, ibirayi, ndetse n'ibindi, ibi bigori bizifashishwa mu gutanga umusaruro mwinshi uzajyanwa ku isoko, ugatunganywamo ifu.

Farumasi bacururizamo imiti y'amatungo iri mu tubati babikamo imiti y'amatungo, hasi hashashemo amakaro, ifite urugi rw'umweru rukoze mu cyuma.

Ububiko bw'imiti buri mu tubati dukoze mu biti ariko tubitsemo imiti. Hejuru yatwo hateretse uducupa dufite imifuniko y'umutuku, dufite n'ibara ry'umweru. Imbere hateretse ameza abaje mu giti.

Abahinzi bari gutera ifumbire ku bihingwa bya kawa kugira ngo bizakure neza bitange umusaruro uhagije, kawa ni igihingwa cy'ingenzi gitanga umusaruro abaturage bakawujyana ku isoko bakabona amafaranga.

Abahinzi bifashisha amasuka bakarunda ibyatsi hamwe bagakora ikirundo kinini, maze nyuma y'igihe kinini ibyo kirundo kikagenda kibora kikazavamo ifumbire y'imborera bakayitwara mu gufumbira ibihingwa byabo.

Ifumbire mvaruganda ni ingenzi cyane mu buhinzi kuko irakoreshwa igaha igihingwa intungamubiri gikeneye, maze kigakora neza kigashisha, kikazatanga umusaruro uhagije maze abahinzi bakabona amafaranga.

Abahinzi bari kubagara ibigori bihinze ku buso bunini buhagije. Nyuma yo kubibagara barateraho ifumbire mvaruganda kugira ngo bizakure neza bitange umusaruro uhagije uzifashishwa mu kujyanwa ku isoko, bibahe amafaranga.

Farumasi bacururizamo imiti y'amatungo. Ku nkuta z'iyo farumasi hasize irange ry'umweru kandi harimo n'utubati babikamo imiti. Hejuru y'utwo tubati, hari kizimyamwoto.

Ikirundo k'ibishingwe kinini hejuru yacyo hahagazeho umugabo wambaye agakote k'umutuku na bote z'umukara, ubundi ibishingwe bajya babirunda hamwe kugira ngo bibore neza bazajye kubikoresha mu buhinzi byaramaze kuba imborera.

Abahinzi bakoresha amapombo mu gutera imiti yica udukoko ku bihingwa byabo kugira ngo ibi bihingwa bizakure neza maze bitange umusaruro uhagije hatabayeho kubangamirwa n'udukoko.

Ibihingwa bitandukanye, harimo imboga ndetse n'ibindi, bikunda kwibasirwa n'udukoko bikabidindiza mu mikurire. Bityo rero abahinzi bifashisha ipombo, kugira ngo batere umuti wica udukoko kuri ibyo bihingwa maze bizatange umusaruro uhagije.

Urugi rukoze mu byuma, rufite n'ibirahure. Rwometseho ibipapuro bifite amabara y'ubururu n'ay'umweru. Kuri ibyo bipapuro, hashushanyijeho icupa ry'umweru, babikama imiti. Kuri iryo cupa, hometseho igipapuro gishushanyijeho indabo.

Umusaruro w'ibitoki ukoranyirije hamwe. Ibi bitoki bizifashishwa mu gutanga imineke, ishobora kuba yakwifashishwa mu gukora imitobe cyangwa se urwagwa, rutandukanye.

Ibihingwa by'ibigori bihinze ku buso bunini kandi bifite ifumbire ihagije, bifite amababi atoshye kandi bigaragara ko bizatanga umusaruro mwiza uhagije, uzifashishwa mu gutanga amafaranga ku bahinzi, ndetse bigatanga n'ibiryo muri sosiyete muri rusange.

Ari gusarura ikaho. Umurima uri hafi y'amazu, asakaje amabati y'umutuku, asize n'irangi ry'umweru. Izo kaho, inyinshi muri zo higanjemo ibitumbwe, ntago ziratukura ngo zineke neza.

Umurima uhinzemo ibigori, imyumbati, amateke ndetse ku mpande y'uwo murima hateye ibiti binini bigikura, imyumbati iteye muri uwo murima izifashishwa mu gukora umusaruro uzajyanwa ku isoko ugatanga amafaranga ku bahinzi.

Igihingwa cy'ibirayi gitoshye neza, gifite amababi y'icyatsi kibisi, ibirayi ni ibihingwa by'ingenzi cyane kuko bihingwa mu makoperative, maze bakabijyana ku isoko, bakabigurisha ku giciro gitandukanye, bakabona amafaranga.

Umuhinzi ari gutega igitoki, igitoki kirekire kinini gifite amabere n'amaseri binini, ibitoki bikurwamo imineke yifashishwa mu kwenga imitobe ndetse n'inzagwa bityo igatanga amafaranga.

Imbuto z'amapapayi zahishije zitangiye kuba umuhondo ziri mu giti. Iki giti cy'amapapayi ni kirekire cyane kandi amapapayi ni ingenzi cyane kuko araribwa cyane maze akongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Ibihingwa by'ibigori, bihinze ku ubunini, bitanga umusaruro uhagije. Uzifashishwa mu gukora za kawunga, maze bigaha amafaranga abahinzi, bakabona amafaranga yo gukoresha ibindi bikorwa bitandukanye.

Amazi ari mu icupa rinini ry'umuhondo rifite amabara y'umweru avanzemo n'ay'ubururu, aya mazi akoresha muri laboratwari mu guhinga za microbe kugira ngo zikure babashe kuzikoreraho ubushakashatsi

Akana k'inkoko kicaye mu busitani, ubusitani butoshye cyane. Ruguru yako hari igiti cyumye. Inkoko ni ingenzi cyane mu bworozi, kuko zitanga amagi abantu bakayarya, bikarwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana.

Ubworozi bw'inkoko, za kijyambere, bwiganjemo amasake. Amasake afite, ibara ry'umweru. Ubworozi bw'inkoko, butanga amagi, y'inyama, ndetse n'ibindi. Yaba n'ifumbire. Inyuma y'izo nkoko, hari agafuka k'umuhondo.

Agasahane k'umukara karunzemo ifumbire mvaruganda, gateretse ku meza ibaje mu giti, iyi fumbire mvaruganda yifashishwa n'abahinzi, mu kongera umusaruro w'ibihingwa byabo baba bahinze.

Mu kigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati y'ubururu, gifite inzugi n'amadirishya bikoze mu byuma ariko bisize irange ry'ubururu, hahinze imirima y'imboga igiye itandukanye.

Abahinzi bari kubagara imirima y'urutoki bifashishije amasuka, ubuhinzi bw'urutoki ni ingenzi kuko butanga imineke, imineke igakoreshwa mu kwenga imitobe ndetse no kwenga inzarwa n'izindi nzoga zitandukanye ziva mu rutoki.

Umuhinzi wambaye bote ari guca imisitari mu mirima ihinze kugira ngo azabone uko afumbiramo imbuto, namara kuzifumbiramo zikamara gukura zikaba ingemwe nkuru azazirandura ajye kuzitera mu wundi murima.

Abahinzi barimo abambaye ingofero z'ubururu bari guhinga bakoresheje amasuka. Bari guhinga ibihingwa by'urutoki bizeramo ibitoki bizifashishwa mu kwenga imitobe ndetse n'inzagwa ndetse n'izindi nzoga zitandukanye.

Umuhinzi arahinga akoresheje isuka, ari guhinga umurima basaruyemo ibigori kandi muri uwo murima hateyemo ibiti by'avoka, iby'myembe, by'amatunda, hepfo ye hari undi murima uhinzemo ibigori byinshi kandi umusaruro wabyo uzifashishwa mu nganda.

Abahinzi bari guhinga bakoresheje amasuka, umurima bari guhingamo hirya yawo hari undi murima uhinzemo ibigori ndetse n'ibiti binini bya makadamiya, bishobora kwifashishwa mu buvuzi.

Umurima uhinzemo urutoki, kahu, urubingo ndetse n'ibiti bya gereveriya ndetse n'ibiti bya voka, uyu muhinzi yifashisha isuka mu kubagara umurima we kugira ngo uzatange umusaruro uhagije.

Abahinzi benshi bari guhinga mu kibaya bifashishije amasuka. Hakurya y'icyo kibaya hakikijwe n'amashyamba menshi, ku buryo azifashishwa mu gutanga imvura izatuma ibihingwa byabo bikura neza, bigatanga umusaruro mwiza.

Abashinzwe umutekano bafatanyiriza hamwe n'abaturage bagakora umuganda bifashishije amasuka ndetse n'ibitiyo, uwo muganda uba ugamije kurwanya isuri cyangwa se gusukura ibikorwaremezo nk'imihanda.

Umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye harimo imyumbati, ibijumba, za karoti, ibiti, ama avoka ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, abaturage barabihinga kugira ngo bazabikuremo ibyo kurya ndetse hanakurwamo ibyo bagurisha.

Abahinzi bifashisha amasu bakakabagara imyaka bakayisukira bagamije kuyegereza igitaka kugira ngo ibone uko izakuramo intungamubiri bito ibashe gukura neza itangage umusaruro uhagije.

Mu kibaya gihinzemo ibigori ku buso bunini, ibyo bigori bizatanga umusaruro uhagije bawujyane ku isoko cyangwase ujyanwe mu nganda gutunganywamo ifu izifashishwa mu kugaburira ibigo by'amashuri.

Mu muhanda wa kaburimbo wo mu nkengero zawo hashinze icyapa, icyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditseho inyuguti mu ibara ry'umweru kandi no hafi y'icyo cyapa hateye ibiti binini.

Umurima uhinzemo ibihingwa byinshi harimo: Amateke, ibigori, za karoti, ibirayi ndetse n'imyumbati, ariko iyo imyumba ihinzwe ku buso bunini, iyo myumbati barayisarura, bakayanika ikuma, maze bakayishesha, bagakuramo ifu yifashishwa mu gukora ubugari.

Sitoke nini mu cyumba cya makumyabiri na gatandatu ahapanze imifuka, irimo imyaka itegerejwe kujyanwa ku isoko.

Abahinzi banitse amasaka ku mashitingi hasi, namara kuma bazayafata bayasekure, nibamara kuyasekura bayagosore maze bayashyire mu mifuka, bayabike, ariko bayahungire kugira ngo imungu zitazayarya.

Ibihingwa birimo nk'ibigori bihingwa ku buso bunini mu kibaya cyangwa se mu mibande, hagamijwe kugira ngo bizatange umusaruro munini uhagije wo kujyanwa mu nganda cyangwa kwifashishwa mu bindi bigo bitandukanye.

Isoko ryakusanyirijwe umusaruro mwinshi w'ibitoki, abantu bashobora kuza kurangura ibi bitoki, bakaba bajya kubikoresha nko mu nganda zitanga imitobe cyangwa se izikora inzagwa ndetse n'izindi nzoga zikoze mu bitoki.

Umusaruro w'ibitoki byinshi wakusanyirijwe hamwe mu isoko, isoko ryubatse neza kandi muri iryo soko harimo n'abantu bambaye amashati y'imyeru n'amapantaro y'imikara.

Abahinzi bakoresha amapombo mu gutera imiti yica udukoko ku bihingwa, kugira ngo ibyo bihingwa bizakure neza bitange umusaruro uhagije, ibyo bihingwa haba harimo nk'ibirayi, inyanya, intoryi, karoti ndetse n'ibwija.

Umusaruro w'avoka za kijyambere upanze mu makarito ugiye kujyanwa ku isoko. Avoka za kijyambere ni nziza zitanga umusaruro mwiza uhagije kandi ibiti by' avoka za kijyambere biba ari bigufiya cyane, ku buryo biba byoroshye kubicaho avoka utagombye kurira.

Ibitumbwe bya voka birunze mu ndobo ifite ibara ry'icyatsi. Izi avoka ni avoka nziza cyane za kijyambere. Abantu barazitara zamara gushya bakazirya maze bakabona intungamubiri ndetse n'amavitamini yiganjemo iya vitamini B.

Abahinzi bari gupakira umusaruro w'inyanya mu mifuka. Inyanya nziza bigaragara ko zahishije, bagiye kujyana ku isoko, kugira ngo babone amafaranga, bafasha mu mirimo itandukanye. Yaba iyo kongera guhinga izindi, cyangwa se kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Urutoki rurimo insina nyinshi ndetse n'ibiti by'amapapayi biri kumeramo, muri uwo murima w'urutoki hamezemo ibyatsi byinshi, abahinzi bazakoresha amasuka baze barubagare baharuremo.

Urugemwe rw'ipera rwameze mu gihuru ariko urwo rugemwe ruracyari rutoya rufite n'amababi atoshye, hirya yarwo hari umurima uhinzemo ibwija.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti birebire byakuze, rizengurutswe n'uruzitiro rw'ibiti by'imiyenzi, hirya y'iryo shyamba hari inzu nini isakaje amabati atukura kandi izengurukijweho sima.

Jardin ziteyemo ibiti, ibiti batemye ariko babitemye nabi kuko babitemeye hejuru, igihe cyo gutoha ntabwo bizatoha neza bitewe n'ukuntu babitemye, iyo baza kubitemera hasi ni bwo byari kuzatoha bimeze neza.

Avoka za kijyambere era zikiri ngufiya kandi ziba zifite ibitubwe byinshi. Biroroshye cyane kuzisarura kuko umuntu azisarura ahagaze hasi, ntago bisaba urwego cyangwa se ikindi kintu uhagararaho kugirango ubashe kuzishikira.

Uruzitiro rwubakishije ibiti by'umuyenzi bitoshye neza bifite amababi y'icyatsi kibisi cyane ruzengurutse inzu, inzu yubakishije amatafari ahiye na sima, ashakakaje amabati y'umutuku ndetse ikoreshwa mu bikorwa by'ubucuruzi.

Inzu yo guturamo ifite amabati y'umutuku, hafi yayo hari umurima uhinzemo ibiti by'ikahu, urutoki ndetse n'amateke, muri uwo murima biragaragara ko udakoreye neza, izo kahu ndetse zitanasasiye.

Igiti gitemye kirambitse mu byatsi, ariko gitemye nabi bigaragara ko kitazatoha, iki giti bari kugitema neza kugira ngo kizatohe neza, cyongere gishibuke, kere ibindi biti byinshi.

Umurima uhinzemo urutoki rwinshi ndetse n'imboga, hahagaze umugabo, hakurya y'uwo murima hari imisozi miremire iteyeho amashyamba kandi iyi misozi izazana ibihe byiza by'imvura.

Inzu yubakishije amatafari, ifite n'amadirishya menshi, ishakakaje amabati, kandi iyo nzu ikikijwe nibiti, imbere yaho hateye ibiti birebire bya sipure.

Ubuhinzi bw'imbuto ni ingenzi cyane kuko buzanira amafaranga abaturage ndetse n'umuntu wariye imbuto ubuzima bwe bukarushaho kuba bwiza, aho usanga abaturage bahinga mu mirima yabo imbuto zirimo amaronji, amapera ndetse n'izindi zitandukanye.

Mu muririma w'urutoki, hamezemo ibyatsi, bifite indabo zifite ibara ry'iroza. Muri urwo rutoki, hamezemo n'igiti cy'ipapayi. Ariko urutoki, ntabwo rukoreye neza ku buryo rwatanga umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'ibijumba ni ingenzi cyane, kuko ibijumba birakoreshwa cyane bikavamo ibindi biribwa harimo amabiswi, amandazi, ndetse n'ibindi, muri uwo murima hahinzemo n'isina zizifashishwa mu gutanga ibitoki.

Inzu yubakishije sima isakaje amabati y'umutuku, ikikijwe n'umurima, umurima uhinzwemo ibihingwa bitandukanye harimo urutoki, kawa ndetse n'amateke, urwo rutoki ruzasarurwa rutange imineke.

Abantu bafumbira ibiti bitandukanye, yaba iby'imbuto cyangwa ibindi bitera imbuto, nyuma byamara kuba ingemwe, bakabigemura bakabirandura bakajya kubitera ahandi hatandukanye, hagamijwe kurwanya isuri cyangwa se, hagamijwe uburyo bwo kubungabunga ibidukikije.

Abahinzi bahinga ibihingwa bitandukanye, birimo imbuto imboga ndetse n'ibindi, muri ibyo bihingwa bitandukanye haba harimo za kokombure, kokumbure ni urubuto rwiza abantu bashobora kurya rukabafasha kugira ubuzima bwiza.

Ubu ni ubuhinzi bwa gakondo, aho usanga mu murima umwe hahinzwemo ibihingwa byinshi by'amoko bitandukanye, ugasanga nk'umurima umwe uhinzemo amateke ndetse n'intoryi, ariko ibyo bituma bidatanga umusaruro mwiza uhagije. Mu buhinzi bwa kijyambere, bahinga igihingwa kimwe ku bwuso buhagije.

Umurima urimo amabuye menshi n'igiti gifite umuzi munini, hamezemo indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi zifite indabo z'umweru. Izo ndabo zaratoshye cyane kuko zabonye amazi menshi ahagije.

Abahinzi bahinga ibihingwa bitandukanye mu mirima, harimo nk'imbuto, imboga, karoti ndetse n'ibindi, cyane cyane higanjemo inyanya, aho iyo zimaze kuneka bazisarura bakaba bazijyana ku isoko.

Pipinyeri bafumbiyemo imbuto n'imboga cyane cyane iziganjemo ibinyomoro. Iyo bimaze gukura barabigemura, bakabyimura, bakajya kubitera mu yindi mirima bakabitera ku buso bunini bitandukanye.

Isoko ry'imbuto n'imboga higanjemo ibihaza, imyembe, indimu, amatunda, imineke ndetse n'ibinyomoro. Hari n'iminzani yifashishwa mu gupima ibiro mu gihe abaturage bakeneye kugura ku kiro.

Mu isoko abacuruzi badandika imboga mu mifungo mito mito igi itandukanye. Izo mboga harimo nka za karoti, intoryi na puwavuro, iyo bamaze kuzifunga mu mifungo abakiriya babasha kuzigura bitabahenze kuko biba biboneka ku giciro gito.

Hano hari ibihingwa by'inyanya bitoshye neza bigaragara ko byabonye ifumbire ihagije, izo nyanya zifite ibitumbwe ariko bitaraneka ngo bibe byasarurwa bijyanywe ku isoko.

Isoko ry'imbuto, aho abantu bashobora kuza kugurishiriza imbuto harimo amaronji, amaronji ari mu ibasi y'umuhondo, hafi yaho hahagaze umuntu wambaye inkweto z'umweru.

Imineke iri ku nkoko iboshye mu migano, iyi imineke abantu barayirya bakabonamo intungamubiri bakeneye. Imineke ishobora no gukoreshwa mu kwenga imitobe urwagwa ndetse n'izindi nzoga zitandukanye, zishobora gukorwa mu bitoki.

Abahinzi bari gusarura amashu mu murima muremure, uwo murima ruguru yawo hari ibiti by'imigereveriya ndetse hari n'umurima uhinzemo urutoki. Urwo rutoki ruzifashishwa mu gutanga ibitoki.

Mu dutara tw'isoko harimo imboga, imbuto bitandukanye. Muri izo mbuto n'imboga higanjemo inyanya, karoti ndetse n'ibindi.

Umurima uhinzemo imbuto, imboga, amateke, usashemo ibyatsi kugira ngo imbuto zihinzemo zizabone ifumbire ihagije bityo zikure neza.

Akarima k'igikoni, kubabakishije ibiti ndetse n'imifuka, aka karima gakoreshwa mu guhingaho imboga, aho izo mboga zifashishwa mu kurwanya imirire mibi mu bana, bityo bagakura neza nta kugwingira.

Abahinzi buhira imyaka; bayikuramo ibyatsi bitandukanye n'ibihingwa bahinze kugira ngo imyaka yabo izabashe gukura neza itabangamiwe n'ikigunda cyangwa se ibindi byatsi biza binyunyu ifumbire mu butaka.

Abahinzi bashobora guhinga ibihingwa birenze kimwe mu murima, aho ushobora gusanga hari umurima uhinzemo ibigori n'imboga, hanyuma ugasanga umuhinzi ajya guca imboga zo guteka muri uwo murima, tutirengagije ko n'ibigori bizera akabisarura.

Isoko abantu bashobora kuza guhahiramo imbuto n'imboga. Iri soko higanjemo kokombure, imiteja na za puvuro. Za kokombure zipanze mu ibasi, ifite ibara ry'umutuku.

Ibasi irimo imbuto z'ibinyomoro n'indi basi y'icyatsi kibisi irimo amatunda ari mu ishashi. Aya mabasi ateretse mu isoko rishashemo amapave, umuntu wayazanye yambaye inkweto zifunguye.

Ubusitani bwiza butoshye, buzengurutswe n'indabyo zifite ibibabi by'imihondo n'izindi zifite ibibabi by'icyatsi, hagati muri ubwo busitani hateyemo igiti cy'umukindo ariko kikiri gito, bigaragara ko kigikura.

Isoko ry'imbuto n'imboga aho abantu bashobora kuza kugurira nk'ibitunguru ndetse n'umunzani ushobora kwifashishwa mu gupima bakaba batanga ibitunguru ku kiro. Hano abantu bashobora kuza kuhagurira ibintu bitandukanye.

Abantu bafumbiye avoka mu bihoho, avoka za kijyambere kugira ngo nizimamara gukura zimaze kuba ingemwe nziza, bazibangurire maze bazimure bajya kuzitera ahandi mu yindi mirima igiye itandukanye.

Isoko bacururizamo imbuto, imboboga ndetse harimo n'ibitunguru, ibitunguru birambuye kuri shitingi kugira ngo bibe bimeze neza, bitazangirika, aho birambuye hariho ibase ifite ibara ry'ubururu.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ifite na fondasiyo y'amabuye, imbere yayo hateye ubusitani buzengurutswe n'indabo zifite amababi y'umuhondo. Hagati muri ubwo busitani hateyemo igiti, hirya y'ubwo busitani hari inkingi z'icyatsi kibisi zishinze ku mbaraza z'iyo nzu.

Ikibanza kinyanyagiyemo imyanda, yiganjemo iya parasitike, gikikijwe n'ibiti bimera ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande gikikijwe n'uruzitiro rw'amabati ashaje, hagati muri icyo kibanza hateyemo ibiti by'amapapayi.

Ibihaza ni ibiribwa byiza byera ku cyatsi cyitwa uruyuzi kirandaranda, abahinzi baragihinga bakakivanga n'iyindi myaka haba ibigori, urutoki, amasaka, cyangwa se n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Igihingwa cy'intoryi gifite intoryi zikiri ntoya kandi izo ntoryi abahinzi bashobora kuzijyana mu isoko kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha mu buhinzi bwabo bwa buri munsi.

Isoko bacururizamo imbuto n'imboga ndetse higanjemo ibitunguru, ibyo bitunguru biri ku dutara dukoze mu biti, ndetse hari n'umunzani w'ubururu uteretseho ibasi y'umuhondo.

Imbuto n'imboga harimo karoti, imiteja, puwavuro, avoka, sereri, urunyogwe, pome n'imineke. Birambitse hasi ku gikapu gifite amabara y'umutuku.

Ubusitani bwiza cyane butoshye, bufite forume y'uruzika bukikijwe n'indabo zifite amababi y'umuhondo, muri ubwo busitani mo hagati, hateye ibyatsi bya pasparme biratoshye cyane.

Ubuhinzi bw'imbuto harimo: nk'amatunda, ibinyomoro, amaronji, imyembe byose ni ingirakamaro, kuko byifashishwa mu kongera amaraso, bikongera na za vitamine ca ziba zikenewe cyane n'umubiri, ndetse kongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Umuntu wambaye ingofero y'umukara n'ijezi y'ubururu, wambaye n'isaha y'umukara ku kuboko, yafashe ku mashami ya voka za kijyambere. Izo avoka za kijyambere zifite udutubwe tukiri dutoya ariko tukiri gukura.

Ikibaya gihinzemo imboga, imboga zirimo imbwija, amashu, za karoti, ndetse n'ibindi, icyo kibaya hakurya yacyo hari ishyamba rigikikije.

Akabande karimo ubuhinzi bw'imbuto n'imboga, cyane cyane karoti, amashu, imbwija, intoryi ndetse n'ibindi, ibi iyo bimaze kwera abaturage barabisarura, bakabijyana mu isoko, maze bakabona amafaranga yo gukoresha imirimo itandukanye ya buri munsi.

Ibitunguru birambuye ku mufuka. Hirindwa kuha hajyamo ubukonje cyangwa hakazamo amazi, bityo bikaba byabitera kwangirika cyangwa kubora. Iyo bimeze gutya, bishobora kumara igihe kirekire, ubikoresha bitarangiritse.

Ubusitani bw'indabo buri ruguru y'umugina, wubakishije amabuye na sima. Ariko ubwo busitani buratoshye cyane, bugaragara ko bwabonye amazi ahagije. Hagati muri ubwo busitani harimo akagemwe k'ipera kakiri gato, ariko kagikura.

Umusaruro w'ubutunguru urunze kuri shitingi, uyu musaruro w'ubutunguru bagiye kuwupakira bawujyane mu isoko, aho bari buwugurishe bakoresheje umunzane bagapima ku kiro.

Igiti cy'ikinyomoro kirashaje amababi yarahungutse ariko gifite imbuto z'ibinyomoro zigiye kwera. Hirya y'icyo giti hari urutoki.

Indabo zifite ibibabi by'umuhondo, n'iby'icyatsi kibisi, ziteye hafi y'icyapa, icyapa cy'umweru gishinze, kandi gikoze mu byuma, icyo cyapa cyanditseho inyuguti z'amabara y'umukara n'ay'ubururu.

Imisozi ibiri iteganye, umwe uhinzeho amashyamba, undi uhinzeho ibiti by'ikahwa. Ibiti by'ikhawa ni ingenzi kuko bitanga amafaranga. Hagati y'iyo misozi ibiri harimo ikibaya, abaturage bahingamo imboga.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo buhinze mu kibaya iyo ibishyimbo bimaze gukura barabishingirira maze bikurira ibiti bigaja bikazana imiteja maze byamara kwera bakabisarura bakabyanika bikuma bakabihura bakabibika.

Umurima w'imbuto n'imboga ukikijwe n'urutoki ndetse n'uruzitiro rw'imiyenzi, muri izo mboga higanjemo intoryi aho bari kuzisarura bakazijyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga.

Imbere y'inzu ishakaje amabati hateye igiti cy'ipapayi kirekire. Icyo giti cy'ipapayi gifite amababi atoshye ariko nta mbuto ziriho. Ipapayi ni igihingwa ushobora kujyana ku isoko ukaba wabona amafaranga.

Abahinzi bakoresha imipira mu kuvomera imyaka ndetse hari n'igihe bakoresha amapombo mu gutera imiti yica udukoko kugira ngo twere kubangamira ibihingwa bizakure neza, maze bitange umusaruro uhagije bawujyane ku isoko.

Abahinzi bari kwifashisha imipira izana amazi mu kuvomera imyaka, harimo nk'imboga, imbuto, imbwija, za karoti, amateke, insina, urutoki, ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye.

Umurima munini uteyemo imboga ukikijwe n'urubingo, hepfo y'uwo murima hari za pepinyeri zisakaye zifumbiyemo imboga, hakurya y'aho hari indi migende iteyemo imboga ndetse no hakurya yaho hari amashyamba menshi.

Umwana wambaye agakanzu ka kake ahagaze ku kayira kari hagati y'ingano ndetse n'izindi ngano, hakurya ye hari agasozi gatuyeho abantu kariho ingo nyinshi ndetse gahinzeho n'amashyamba.

Ibi ni ibihingwa by'icyayi bimwe mu bihingwa bihingwa hagamijwe kubona amafaranga. Hagati muri ibi bihingwa hari imihanda. Iyi mihanda n'imihanda imodoka zinyuramo zigiye kuzana umusaruro wakusanyijwe hirya no hino hatandukanye muri iyi mirima.

Amaterasi y'indinganire acibwa ahantu cyane cyane ku misozi, hagamijwe kurwanya isuri kugira ngo mu gihe cyk'imvura, imvura itazatembana ubutaka ikahaca inkangu, bityo abahinzi bakaba babihomberamo kuko imyaka yabo ishobora kugenderamo.

Imidugudu irimo amazu, asize irange ry'umweru, asakaje n'amabati y'imituku, ruguru y'iyo midugudu hari ibiti bitoshye cyane.

Umurima uhinzemo imboga zitandukanye harimo ubwija, karoti ndetse n'inyanya, aba bahinzi barabisarura bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga abafasha mu mirimo yabo itandukanye ya buri munsi.

Ishuri rirerire ryubakishije amatafari ahiye rishakaje amabati y'umutuku bifite inzugi zikoze mu byuma, hakurya y'aho hari agasozi gatuyeho abantu benshi hari inzu z'amabati zisakaje amabati y'umweru.

Ikibaya kinini kirimo ubwatsi butoshye kizengurutswe n'ishyamba, hubatsemo inzu zisakaje amashitingi y'ubururu. Izo nzu ni iz'abasirikare baturamo mugihe bari ku rugamba.

Hano hari imirima ihinzemo urutoki n'ibiti bya gereveriya, utereye amaso hakurya ubona udusozi duto dutuyeho abantu n'imihanda y'igitaka, wakongera kureba hakurya kure cyane ubona imisozi miremire.

Agasozi gahinzeho ibihingwa by'icyayi, hagati y'imirima y'icyo cyayi harimo utuyira abantu banyuramo bajya kugisarura. Hakurya y'icyayi hari umuhanda unyuramo imodoka zije gupakira icyayi basaruye.

Ikibaya kinini ariko kidahinzemo imyaka hacamo umugezi munini hagati ye, ariko hakurya no hakuno y'umugezi hari inzu zihubatse, hakuno hari inzu zisakaje amabati y'ubururu.

Inzu yubakishije amatafari, ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, ishakaje amabati atukura, imbere yayo hari igiti kinini kirambuye cyane, kitwa igiti cy'umuyinya gishashe neza.

Imirima y'icyayi, ikikijwe n'ishyamba. Hagati muri iyo mirima y'icyayi, hagiye harimo utuyira, banyuramo bajya kugisarura. Iyo icyayi kimaze gukura kimaze gusaza, baragitema kugira ngo gitoha ari gishya, cyongere kijye gitanga umusaruro mwiza.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'abantu bari mu isiganwa ry'amagare. Ruguru y'umuhanda hahinze ibihingwa by'icyayi, hafi y'umuhanda hari inzu bapimishirizamo icyayi bavuye gusoroma.

Ubworozi bw'amatungo magufi harimo ingurube, izi ngurube ziri mu kiraro cyubakishije ibiti kandi harimo umuntu uri kuzitaho, iki kiraro gishashemo ibyatsi ku buryo zizatanga ifumbire izifashishwa mu guhinga imyaka.

Ikiraro cyubakishije ibiti, kirimo ihene zifite amabara y'umukara n'ay'umweru zambaye amaherena ku matwi. Hirya yazo hari ikindi kiraro cyubatse, kirimo andi matungo magufi harimo ingurube, inkoko, inka ndetse n'intama.

Inka y'umukara iryamye mu kiraro gishashemo ibyatsi, cyubakishije ibiti, inka itanga umukamo, amata, ibishingwe ndetse ibyo bishingwe bikifashishwa mu kuzamura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi.

Ihene y'umukara ifite ibara ry'igitare mu gahanga izirikishije ikiziriko cy'umweru kirekire, kiziritse ku biti. Kandi iyo ihene isasiye ibyatsi bizavamo ifumbire y'imborera ikifashishwa mu buhinzi.

Ingurube y'igitare iryamye hasi kuri sima ubworozi bw'ingurube ni ingenzi kuko butanga ifumbire yifashishwa mu gufumbira imyaka ndetse ingurube bashobora no kuzibaga, zigatanga inyama. Maze bakazirya.

Inka y'ikibamba ni ukuvuga inka ifite amabara y'umukara n'ayumweru yambaye iherena ku gutwi iziritse mu ijosi ikiziriko, hirya yayo hari izindi nka ziri kurisha ziragiwe n'umuntu.

Ingurube iri kugendagenda mu muhanda, hakurya yayo hari ikiraro gishaje cyane ndetse hari n'insina ihateye, ubworozi bw'ingurube ni ingenzi kuko butanga inyama bugatanga n'ifumbire yifashishwa mu gufumbira ibihingwa bigatanga umusaruro mwinshi.

Ubworozi bw'ingurube, ingurube ziri mu biraro byubakishije ibiti harimo izifite amabara y'umweru ay'umukara, izi ngurube zizatanga ifumbire izifashishwa mu buhinzi maze ibihingwa bikure neza bitanga umusaruro uhagije, ndetse iz'ingurube bashobora no kuzazibaga bakazikuramo inyama.

Ubworozi bw'inka ndetse n'ihene, inka iri kuba mu kiraro cyubakishije ibiti ariko gihomye gisakaje amabati ndetse hirya yayo hari inzu zo guturamo izindi nzu abantu babamo.

Ihene y'umukara ifite ibara ry'igitare mu gahanga, iri kumwe n'akana kayo kandi iyo hene izirikishije ikiziriko kirekire ku kiraro cyubakishije ibiti, imbere yayo hanyanyagije amabuye.

Ingurube iri mu kiraro cyubakishije ibiti, gishashemo n'ibyatsi, ubworozi bw'ingurube ni ingirakamaro butanga ifumbire ikoreshwa mu buhinzi, iyo fumbire ifumbizwa imyaka, igatanga umusaruro uhagije, abaturage bakabona amafaranga ndetse n'ibiryo.

Ingurube zororeye mu kiraro cyubakishije ibiti, ubworozi bw'ingurube ni ingenzi kuko butanga amafaranga, inyama, ifumbire, iyo fumbire ikifashishwa mu gufumbira ibihingwa, bityo bikazakura neza bigatanga umusaruro uhagije.

Ihene zifite amabara y'umweru n'uduhembe dutoya, ziziritse ibiziriko mu ijosi, ku ruzitiro rwubakishije senyenge n'amabati. Kandi izo hene zihagaze mu gitaka kimeze nk'ivumbi.

Inyana y'inka iri mu kiraro, ikiraro gishashemo ibyatsi. Kandi icyo kiraro cyubakishije ibiti. Ibyatsi bishashe muri icyo kiraro bizifashishwa mu gutanga ifumbire y'imborera izakoreshwa mu buhinzi.

Ingurube y'ishashi iri kurira mu kiraro, iri kurya ibyatsi byiganjemo imigozi, muri icyo kiraro hateretsemo ikijerekani gishaje ariko gifite ibara ry'umuhondo.

Inka z'umukara ziri mu kiraro kinini cyubakishije ibiti gishakaje amabati y'umweru, izo nka zifite ibara ry'igitare mu gahanga, imbere yazo hahagaze umugabo wambaye inkweto y'umukara n'ipantaro n'ishati y'umweru.

Inka y'umukara yororeye mu kiraro cyubakishije ibiti yitezweho kuzatanga amata, igatanga ibishingwe, ibyo bishingwe bikazifashishwa mu buhinzi bagafumbira imyaka maze igatanga umusaruro uhagije uzafashwa mu kujyanwa ku isoko.

Inka y'ikibamba iri mu kiraro. Inka y'ikibamba ni ukuvuga inka ifite ibara ry'igitare n'ibara ry'umukara, iri mu kiraro gisakaje amabati ndetse irimo iranarya ubwatsi, yasohoye umutwe hanze y'ikiraro.

Ihene y'umukara iri kurisha hafi y'inzu yasenyutse yari yubakishije urugingi kandi iyo hene ifite ikiziriko, hirya y'iyohene hari umurima uteyemo urutoki urutoki ruzatanga ibitoki bikavamo umusaruro w'imineke, cyangwa se ikifashishwa mu kwenga urwagwa.

Inka zifite ibara ry'umukara n'indi yambaye iherena ziri kurya ubwatsi butoshye, ziri mu kiraro cyubakishije ibiti kandi icyo kiraro hirya yacyo hari inzu ihomesheje ibyondo.

Ingurube iri mu kiraro iri kumwe n'utubwana twayo dutoya, icyo kiraro cyubakishije ibiti, kandi hasi gisizemo sima. Ubworozi bw'ingurube ni ingenzi cyane kuko butanga ifumbire ku baturage, bikabafasha mu buhinzi bwabo.

Inka y'umukara ifite ibara ry'umweru mu gahanga n'uduhembe dutoya. Iri mu kiraro cyibakishije ibiti, iranasesiye ibyatsi kugira ngo izatange ifumbire bizifashishwa mu buhinzi bityo bitange intungamubiri ku gihingwa, kizakure kimeze neza gitanga umusaruro uhagije.

Agahene gatoya kishashi, gahagaze mu mbuga y'igitaka. Ubworozi bw'ihene nibwiza, kuko butanga ifumbire. Iyo fumbire ikifashishwa mu gufumbira imyaka, bityo igatanga umusaruro uhagije, kuko iba yabonye intungamubiri zihagije.

Hano hari ihene ifite amabara y'umukara n'ay'igitare, iziritse ikiziriko mu izosi ikiziriko gishumitse ku giti, igiti cyubatse ikiraro icyo kiraro gishobora kuba ari icy'inka.

Amagi menshi arunze mu dusanduku. Aya magi yifashishwa mu kurwanya imirire mibi, kuko aba yuzuyemo intungamubiri. Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi kuko ari bwo buyatanga, ndetse bukanatanga n'ifumbire izifashishwa mu guhinga.

Inka y'umweru idafite amahembe ifite amabara y'umukara ku mutwe, ihagaze mu mbuga y'igitaka kandi hirya y'iyo nka hari amazu atuyemo abantu ubworozi bw'inka ni ingenzi kuko bufasha abantu bakabona ifumbire yo gufumbira imyaka.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi kuko butanga amagi abaturage bakayarya bakarwanya imirire mibi, ayasigaye bakayajyana mu isoko bakayagurisha bakabona amafaranga yo gukoresha ibikorwa byabo bya buri munsi bitandukanyemo harimo n'ubuhinzi.

Ubworozi bw'inka ndetse n'amatungo magufi harimo nk'ihene, ni ingenzi cyane kuko butanga ifumbire y'imborera yifashishwa mu gufumbira ibihingwa, izo nka n'ihene byororerwa mu biraro byubakishije ibiti, bisakaje n'amabati.

Mu bantu bateraniye hamwe bafite ibibwana by'ingurube bikiri bitoya, bizirikishije ibiziriko bigaragara ko ari ibyo bahawe kugira ngo bajye kubyorora. Ubworozi bw'ingurube ni ingenzi kuko butanga amafaranga ku baturage ndetse bukaba bwatanga n'inyama ndetse n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi.

Inka y'isine ifite ibara ry'umweru mu gahanga, idafite amahembe, iziritse mu ijosi, iziritse ku kiraro, ikiraro cyubatswe n'ibiti, irimo irarya ubwatsi hasi mu kiraro.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu ateruye inkoko, ubworozi bw'inkoko ni ingenzi cyane kuko butanga amagi, bituma abantu bayarya bakabona intungamubiri zikenewe bityo bikarwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana.

Inka y'umukara ifite ibara ry'igitare mu gahanga idafite amahembe ihagaze munsi y'igiti, hirya y'icyo giti hari inzu isakaje amabati afite ibara ry'ubururu.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ingirakamaro cyane, cyane cyane higanjemo ingurube ndetse n'ihene aho bishobora gutanga ifumbire izifashishwa mu gufumbira ibihingwa, ibyo bihingwa bigatanga umusaruro uhagije kuko biba byakuze neza.

Imboga zirimo intoryi zirafumbirwa hifashishijwe imirama. Nyuma iyo zimaze gukura zimaze kuba ingemwe ziringaniye, barazigemura bakagenda bazimura bakagenda bajya kuzitera hirya no hino hatandukanye mu yindi mirima.

Inzu yubakishije sima isakaje amabati y'umutuku hejuru haca insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, iruhande rw'izo nzu hari ibihuru birimo indabo zifite amababi y'umuhondo n'ajya kuba iroza.

Ibihingwa by'amashu bihinze ku buso bunini kandi biteye neza, bitanga umusaruro w'imboga ushobora kujyanwa ku isoko bikaba byaha amafaranga abahinzi yo kwifashisha mu bikorwa byabo bitandukanye bya buri munsi.

Igihingwa cy'urusenda gifite urutumbwe rumwe rw'urusenda rwatukuye. Urusenda ni ingenzi cyane mu mirire y'umuntu kuko rwifashishwa mu kongera apeti y'umuntu akabasha kurya neza n'iyo byari byamunaniye.

Ni imisitari y'uturima duto duto dufumbiyemo imbuto, ndetse n'imboga. Iyo zimaze gukura barazifata bakazigemura bakazimura, bakajya kuzitera hirya no hino hatandukanye mu yindi mirima, maze zigakura zikera zigatanga umusaruro, bagasarura bakajyana ku isoko.

Inka y'ikibamba ifite amabara y'igitare n'ay'umukara bari kuyizirika ku giti, bari kuyizirika ikiziriko mu ijosi kandi icyo giti ni igiti cya avoka kizeramo amavoka ahagije. Umuntu uri kuyizirika yambaye igitambaro cy'ubururu.

Umuvuzi w'amatungo wambaye igisurubeti cy'ubururu arimo arabaga inka kugira ngo ayivure. Uwo muvuzi yambaye bote z'umukara kandi iyo nka yegereye urukuta rwubakishije sima, urwo rukuta rusize ibara ry'umweru.

Umushumba wambaye isengeri y'umweru na bote z'umukara, ari gusasira inka y'inkungu ifite amabara y'umukara n'umweru iri mu kiraro, hirya yayo hari indi nka nayo iri mu kiraro ifite amabara y'umukara n'umweru.

Inyoni y'umukara ifite amabara y'umutuku, ibirokoroko by'umutuku n'umunwa w'umuhondo, ihagaze mu giti gifite amababa ajya kuba umuhondo. Iyi nyoni ni nziza ni ubwoko budasanzwe ku buryo yakurura ba mukerarugendo.

Ikiraro cyo mu kirere gikoresheje imikwege kinyurwaho na ba mukerarugendo, barimo batembera bareba ubwoko bwinshi butandukanye bw'inyamaswa biri muri za parike cyangwa se no mu mashyamba.

Inkende yicaye hagati mu muhanda w'igitaka kandi mu nkengero z'uwo muhanda hari ishyamba rinini, iyi kende yicaye mu muhanda hagati ishobora guteza ibyago by'impanuka kuko nk'ibinyabiziga bishobora kuza kuyigonga.

Inyoni ifite amabara y'umukara, n'umunwa w'umukara muremure, n'amaso y'umukara, ifite ubwoya bw'umuhondo buvanzemo n'ubw'umutuku, ihagaze ku giti gifite indabo z'umuhondo, icyo giti kiri muri parike, kandi iyi nyoni yakurura ba mukerarugendo bakaza kuyisura.

Inkende zicaye mu giti, igiti cyakokotseho amababi kidatoshye habe na gato, izo nkende harimo ifite akana kakiri gatoya, iragakikiye hejuru mu ishami ry'icyo giti kandi ziri kwicara zireba imbere.

Muri parike harimo inyamaswa nyinshi zitandukanye zirimo: impara , imparage, udusumbashyamba ndetse n'isha. Izo nyamaswa ziba zirimo zirisha ibyatsi byo muri parike, kandi muri parike haba harimo n'ibiti byera imbuto ndetse n'ibindi.

Inkende yumukara cyane, iri kurira igiti, igiti kirekire, gifite amabara y'umweru, hirya yacyo hari ibindi biti bitatu byakuze birebire, kandi biri mu ishyamba rinini.

Inguge yicaye hejuru y'igiti ifite imineke mu ntoki, iyi nguge iri muri parike, ikurura ba mukerarugendo, abantu bakaza kuyisura bakishyura amafaranga atandukanye cyane cyane ayiganjemo ay'amahanga ndetse n'amadovize.

Inyamaswa y'impara, ifite amabara y'umukara n'umweru, ifite ubwoya bwinshi ku ijosi, iri muri parike irimo ibyatsi bitoshye, muri izo parike harimo izindi nyamaswa nyinshi zitandukanye, nk'imparage, intare, ndetse n'izindi.

Inyoni y'umurizo ifite amabara y'umukara n'ay'umuhondo, ihagaze ku giti gifite amababi y'imihondo, iyi nyoni ifite isunzu ry'umukara n'umunwa w'umuhondo ufite akabara k'umutuku.

Ubwoko bw'inyoni y'umukara iri mu giti cyakokotse amababi, iyo nyoni ifite isunzu ry'umukara n'umunwa w'umuhondo, iyi ikaba ari ubwoko bwiza ku buryo ishobora gukurura ba mukerarugendo bakaza kuyisura.

N'inkende y'umukara yuriye mu giti cy'umugano. Iki giti cy'umugano gishobora kwifashishwa, mu bikorwa bitandukanye, harimo nk'ububoshyi, aho bashobora kugikoresha, baboha nk'intaro, uduseke, inkangara, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ikiraro cyo hejuru cyubakishije imikwege, kigenda hejuru y'ishyamba gifasha ba mukerarugendo gusura iryo shyamba, bakaba babasha kubona ubwoko bw'inyamaswa butandukanye harimo inyoni ndetse n'izindi.

Inyoni ifite amabara y'umukara, umunwa w'umuhondo, n'ibirokoroko by'umutuku, ihagaze ku giti gifite amahwa.

Inkende ikikiye akana kayo kakiri gatoya, yicaye hejuru y'utwuma tuzenguruka urubaraza rw'inzu, kandi yegamiye inkingi y'umweru. Inyuma yayo hari igihuru kirimo indabyo.

Urutoni rufite ubwoya bwinshi ku mugongo ruri mu giti, kandi rufite amaso y'umukara n'amatwi ameze nk'ay'imbeba, urwo rutoni ruri mu giti, gifite uturabo tw'umuhondo, kandi icyo giti gisa naho gikuze cyane cyenda kuma.

Inguge y'umukara iryamye mu giti kandi ifite amabara y'umukara, iyo nguge yaryamye yamanuye amaboko hasi, kandi icyo giti iryamyemo gifite amababi ajya kuba umuhondo kandi atoshye cyane.

Iyi ni inyoni, inyoni nziza cyane yitwa indonzi iba ifite umunwa ukomeye aho ikoresha uwo munwa itobora umwobo wo kubamo muri icyo giti. Yegera igiti kikiri kibisi cyangwa se icyenda kuma ikakidondagura mpaka ikozemo umwobo.

Inyamaswa yitwa inguge y'umukara cyane iri mu giti gitoshye neza gifite amababi atoshye y'icyatsi kibisi, yazamuye ukuboko hejuru irimo irasoroma imbuto muri icyo giti, muri iryo shyamba harimo n'ibindi biti byinshi byera imbuto nk'amapera amaronji ndetse n'izindi.

Inyamaswa nini y'inguge ifite ibara ry'umukara ijya gusa n'umuntu yazamuye akaboko yifata ku ishami ry'igiti, igiti gifite amashami atoshye kandi y'icyatsi kibisi, iyo nyamaswa y'inguge ifite amatwi manini.

Inkende ziri mu busitani bwegereye hafi y'umuhanda, ziricaye ziri kumwe n'utwana twazo. Hafi muri uwo muhanda hari umuntu ufite igare urimo uragenda. Ruguru yaho gato hari ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi.